Inyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye by'umwihariko ibijyanye n'ubuvuzi, harimo abaganga babyigiye ndetse n'abakozi bakorera umuryango utabara imbabare, aho bafasha buri muntu wese ugize ikibazo kubona ubuvuzi.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe bigaragara ko bari gutanga igikorwa cy'ubutabazi bwihuse, aho hari umuntu wagize ikibazo cy'umwuuka none bamuzanye kwa muganga bari kumwitaho ndetse araza gukira.

Imodoka yo mu bwoko bwa diferenti, itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ikabaje kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ikaba ihentse abantu ndetse ikaba igiye no guhura n'igare.

Abanyeshuri benshi cyane bahuriye hamwe biganjemo abiga ibijyanye n'ubuvuzi, bakaba bafite icyapa mu ntoki cyanditseho ngo twirinde icyorezo cya mabaga kuko ari indwara mbi cyane kandi yica.

Kwa muganga hari amoko agiye atandukanye y'abaganga bitewe n'ibyo baba barize, ku buryo bagenda batanga serivisi bitewe n'uko baba bafite ububasha bugiye butandukanye.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, aho hari umugabo wavunitse ukuguru none muganga akaba ari kumwitaho agenda amubumbiraho igipima kugira ngo arebe ko uwo muntu yamererwa neza.

Abantu bagera muri babiri harimo umugabo umwe wambaye imyambaro y'abashinzwe umutekano ndetse n'undi wambaye amadarubindi, akaba ahagaze bari kuganira ku buryo batanga ubutabazi bw'ibanze.

Umuntu wavunitse bakaba bamudodeyeho igisima mu kaboko k'ibumoso, akaba yababaye ariko yihutiye kujya kwa muganga none bamufashije bigaragara ko atangiye koroherwa araza gukira.

Ubuvuzi bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe basigaye batanga ubuvuzi bwihuse, bifashishije utudege tutagira abadereva tuzwi nka dorone, aho tuba tujyanye amaraso ku bitaro byihuse.

Kwa muganga mu nzu itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye aho hari abantu bakorera umuryango utabara imbabare mu Rwanda uzwi nka Croix Rouge baba bambaye utujiri turi mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru.

Igitanda cyo kwa muganga giteraniyeho abantu benshi cyane baje gushaka serivisi z'ubuvuzi ndetse n'abarwayi baryamyeho, hari abarwaza bagiye babarwaje kugira ngo iki bakenera baze guhita bakibagezaho byihuse.

Abaganga batanga serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi ku muntu wagize ikibazo, bazanye akantu kitwa bulankare kari mu ibara ry'icyatsi bari gushyiraho umuntu wavunitse ngo bamwihutane kwa muganga bahite bamuvura.

Umuntu wagize ikibazo runaka igihe yari arimo agenda none yihutiye kujya kwa muganga, muganga yamubumbiye igitsina ho kuboko ari kugenda amusuzuma ngo arebe ko yamererwa neza.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse akaba afite indangururamajwi mu ntoki, ahagaze imbere y'agatute aho ari kugenda agira ijambo ageza ku baturage, hanyuma na bo bamuteze amatwi.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe biganjemo ab'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, bakaba bari ahantu ku bitaro, bari kugenda babasobanurira ibyiza byo kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho isakajwe amabati mu kayira kanyuramo abagenzi, ikaba ari inyubako nziza cyane yo kwa muganga, ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi.

Kwa muganga hari abarwayi benshi bagiye batandukanye baryamye ku bitanda, aba barwayi rero ni byiza ko bitabwaho n'abaganga kugira ngo bagire ubuzima bwiza kandi buzira umuze kandi bamererwe neza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho ari inyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi kwa muganga, aho abaganga bita ku barwayi bagiye baba batandukanye baba baje babagana.

Ni byiza cyane ko buri muntu uwo ari we wese yaharanira guteza imbere igihugu cyacu, binyuze mu bikorwa bigiye bitandukanye kuko iyo ukomeje kubikurikirana uko bikwiye bituma Igihugu kimera neza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho ifite ahantu hagari hakira abantu benshi baje babagana bashaka serivisi zijyanye n'ubuvuzi, abaganga rero iyo bahageze batangira kwita kuri abo barwayi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho isakaje amabati y'ubururu ndetse ikaba yubakishije amatafari ahiye, akaba ari inyubako yo ku bitaro bigaragara ko hakirirwa abarwayi benshi bagiye batandukanye baje gushaka serivisi z'ubuvuzi.

Ubu buvuzi bumaze gutera imbere cyane muri iki gihe, aho hasigaye hari utudege tw'amayobera tuzwi nka dorone dutwarwa nta mushoferi urimo ndetse tugatwara amaraso ku bitaro.

Inyubako iteraniyemo abantu benshi cyane, akaba ari inyubako yo kwa muganga, hakaba harimo abaganga bagiye batandukanye, bari kuvura abarwayi baje babagana, indwara zinyuranye.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe b'abayobozi, bakaba bambaye imyambaro y'impuzakano, udupira tw'imyeru, bazamuye amaboko nka Meya ari gusuhuza abaturage, bigaragara ko ari abaganga bahawe inshingano nshya.

Kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zigiye zitandukanye haba harimo abaganga bambaye impuzankano zo mu mabara y'icyatsi aho bagenda bafasha umurwayi wese uje arembye akaba yakira.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe bari mu nama, higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bakaba bari kwiga ku mitangire myiza y'ibijyanye na serivisi z'ubuzima, aho hari umugabo ufite indangururamajwi ari kuvuga bamuteze amatwi.

Hariho ibikoresho by'ikoranabuhanga bikunze kuba biri kwa muganga, abaganga bifashisha bari gusuzuma uburwayi bw'abarwayi, aho haba harimo na mudasobwa, abaganga bagenda bandikamo indwara, bagahita bamenya ubwoko bw'imiti iyivura.

Ni kwa muganga ahatangirwa serivisi zigiye zitandukanyekanya z'ubuvuzi, aho umuganga agenda apima abaturage umuvuduko w'amaboko, ashyize ikizigira mu kuboko ndetse agapima uko umuntu amerewe.

Umuntu uryamye ku gitanda kwa muganga bigaragara ko arwaye, akaba ari kumwe n'umwana we. Umwana akaba yiyicariye afashe telefoni mu ntoki, bigaragara ko nta kibazo na kimwe afite we ameze neza.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe, biganjemo abaganga ndetse n'abayobozi, abayobozi bakaba bari kugenda batanga ibihembo ku baganga bitwaye neza, kubera serivisi nziza cyane babashije guha abaturage.

Inyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, yubakishije amatafari ahiye, ifite inzugi ziteye amarangi y'umweru, hari ababyeyi benshi baje gukingiza abana kugira ngo barebe ubuzima bwabo uko bumeze.

Umuganga uri muri laboratwari aho afite ibikoresho byabugenewe bifashisha bari gusuzuma ibintu bigeye bitandukanye ndetse akaba arimo no gukora ubushakashatsi kugira ngo yongere ubumenyi bwe.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho mo imbere haba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye abantu bari mu bushakashatsi bifashisha kuko bigaragara ko hano ari muri laboratwari.

Intoki z'umuntu ufite ga z'ubururu, akaba afite agakoresho kabugenewe, bifashisha bari gupima niba umuntu arwaye indwara ya Diyabete cyangwa se izindi.

Inyubako nziza cyane hubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho ifite profe z'umweru ikaba iteyemo n'amarangi y'umweru, harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa muri laboratwari abantu bakora ubushakashatsi.

Umwana wiga mu mashuri yisumbuye, aho afite mudasobwa imbere ye hirya hari n'abandi benshi cyane buri wese afite mudasobwa imbere ye, bigaragaza ko bari guteza imbere ikoranabuhanga mu Rwanda.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe higanjemo abaganga, bakaba bambaye udupfukamunwa turiye dutandukanye ndetse abariya, bakaba bari mu nama aho bari kwiga uko bagiye kujya bakira neza abarwayi.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe b'igitsina gabo bakaba bahagaze imbere y'inyubako bari kwifotoza, iyi nyubako ni inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi z'ubuvuzi iherereye Nyamikamba.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe biganjemo ab'igitsina gore ndetse ab'igitsina gabo bakaba bari kwa muganga mu gikorwa cyo kwita no gusuzuma ko ubuzima bw'abaturage bumeze neza, aho muganga ari kugenda abasuzuma.

Abantu bagera kuri batanu harimo abakobwa bagera muri bane ndetse n'umusore umwe, harimo umukobwa umwe wambaye agapira k'umuhondo ufashe urupapuro mu ntoki.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bakaba bahagaze bari kwifotoza bambaye udupfukamunwa, harimo abafite icyapa cyanditseho mu ntoki ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsinagabo, bakaba bambaye amasengeri ndetse n'imyenda iri mu mabara agiye atandukanye, bakaba bari mu nama yiga ku bijyanye n'ubuzima.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye biganjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bambaye imyambaro igiye itandukanye, iri mu mabara y'icyatsi ndetse no hasi umukara, harimo kandi n'abasirikare bashinzwe umutekano.

Mu nyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho hacururizwamo imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu kuvura amatungo ndetse n'abantu, aho haba hakoramo umuntu wabyigiye.

Farumasi icuruza imiti igiye itandukanye, aho iyi miti ifasha abantu kuvura indwara zigiye zitandukanye, maze bakaba bakira bakamererwa neza, bagatandukana n'uburwayi bugiye butandukanye.

Inyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi aho umuntu wese ufite ikibazo agenda akabwira umuganga ukoramo hanyuma akamuha imiti indwara ye igakira burundu.

Agacupa kari mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi, kakaba gashushanyijeho ihene bigaragara ko tuba turimo imiti ivura inyamaswa z'ihene igihe ziba zagize ikibazo runaka.

Udushashi turi mu mabara y'umweru, ubururu ndetse n'umuhondo, tukaba dukunze kuba turi ahantu muri farumasi, tuba turimo imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu kuvura amatungo kugira ngo atagira ikibazo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bw'igitwe ikaba ifite inkingi z'umweru, ikaba iteye amarangi y'umweru, hejuru handitseho amagambo ngo ivuriro rya gakondo, bigaragara ko bavura indwara za kinyarwanda.

Udupfukantoki turambitse ahantu bikaba bigaragara ko bifashishwa muri farumasi igihe baba bari kuvura abarwayi bagiye batandukanye baba bagize ikibazo, muganga aratwambara kugira ngo hatagira umwanda umujyaho.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho ifite ibikuta biteye amarangi y'umweru ndetse kandi ikaba irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigaragara ko ari muri farumasi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho ari muri farumasi aho batanga imiti igiye itandukanye ivura abantu ndetse n'inyamaswa hanyuma bakagira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Muri farumasi ahacururizwa imiti igiye itandukanye hicayemo umukobwa uri gucuruza iyo miti wambaye agapira k'umukara, bikaba bigaragara ko igihe cyose uhageze ushaka umuti ahita awuguha.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere ndetse ikaba ari inyubako y'amagorofa, ikaba ifite imiryango ifunguye ndetse mo imbere hacururizwamo imiti igiye itandukanye mbese muri make ni muri farumasi.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bakaba bari mu nama aho hari abagore babiri b'abayobozi bari guhereza umuganga witwaye neza igihembo k'ishimwe.

Umugabo uri mu nama, aho ayo gushishikariza urubyiruko kwirinda indwara zigiye zitandukanye ndetse n'inda zitateganyijwe. Aho ababwira ngo rubyiruko koresha agakingirizo ubungabunge ubuzima bwawe.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye biganjemo ab'igitsinagore ndetse n'ab'igitsina gabo, bakaba bari mu munsi wo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ryabaye ku itariki makumyabiri n'umunani z'ukwa gatandatu bibiri na cumi na gatatu.

Abantu bahuriye hamwe, bicaye mu nyubako nini, ikorerwamo inama, bakaba bicaye bari kureba umuntu uhagaze imbere yabo, uri kubakoresha inama, aho ari kugenda abagira inama nyinshi zigiye zitandukanye.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, aho bari mu cyumba cy'inama, higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bari kugenda baganira ku ngingo runaka zateza imbere igihugu cyabo.

Abakobwa bagera muri babiri bari mu gikorwa cy'imyitozo ngororamubiri, bambaye imyambaro iri mu ibara rya orange, aho inyuma yabo hari icyapa cyanditseho ngo iminsi cumi n'umunani y'ubukangurambaga bugamije kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina.

Abantu benshi cyane bahagaze hamwe bigaragara ko bari kwifotoza, higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, aho imbere yabo hahagaze umugabo ufite kamera ari kubafotora.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe aho bishimye imbere yabo hari umuhanzi uri kubataramira, bose bakaba bishimye bari guseka bamwenyura kuko abanyarwanda cyane bakunda ibintu by'imyidagaduro.

Umugabo wambaye imyambaro iri mu mabara y'umukara, akaba ari mu nama ahugura urubyiruko ku bijyanye n'uburyo bakwirinda indwara zitandukanye zandurira mu mibonano mpuzabitsina, aho bagomba gukoresha agakingirizo.

Iduka ricuruza imiti igiye itandukanye ya gakondo cg se bakunda kwita magendu, aho ibiri mu dufupa tw'umuhondo, umweru ndetse n'utundi . Ikaba ivura indwara zigiye zitandukanye za kinyarwanda.

Udusahani tuba tugiye turimo ibirayi bigiye bitandukanye, aho ibi birarayi ushobora kugira ngo ni ibirayi bya nyabyo, nyamara nimwe mu miti yifashishwa mu buvuzi gakondo, aho baba bavura indwara zigiye zitandukanye za kinyarwanda.

Ni kwa muganga mu inyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, aho hari umuntu warwaye akaguru none bakaba bari kumwitaho bagasanga imiti ntacyo iri kumara, bakamugira inama yo kugana ubuvuzi bwa gakondo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyo nyubako irimo umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse akaba yambaye n'itaburiya. yambaye utunozasuku mu mutwe, bigaragara ko avura indwara za gakondo.

Udusorori tugiye dutandukanye turambitse ahantu ku meza aho hari umuntu wambaye imyambaro n'umupira w'amaboko maremare y'umweru ari kugenda ajogora mu gasorori kamwe agenda ashyiramo kandi bigaragara ko ari imiti gakondo.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, ahazwi nko kwa muganga haba hari ibitanda byiza cyane abaganga baryamishaho abarwayi mu gihe bari kubitaho hanyuma bakabaha serivisi zigiye zitandukanye.

Umuganga wicaye ari kugenda yandika mu gitabo cyabugenewe aho ari kwandika umurwayi amubaza amakuru y'uburyo arwaye kugira ngo abyandike maze abibike mu gitabo cyabugenewe.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, bateraniye hamwe muri sare, bari mu nama y' uburyo ki ubuzima bwateza abantu imbere, aho hari umuganga uri kugenda abasobanurira ndetse n'umujyanama w'ubuzima.

Abantu benshi bahuriye hamwe higanjemo abanyeshuri bambaye imyambaro igiye itandukanye bakaba bari mu gikorwa byo kwamamaza ubu buvuzi bugiye buteye imbere aho hari umugabo waje kuyigura.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bari kwifotoza higanjemo ab'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, harimo abaganga ndetse n'abashinzwe umutekano, bakaba bari imbere y'inyubako y'ivuriro.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho muri izo nyubako bacururizamo imyenda igiye itandukanye, aho haba hari ibipupe by'abakobwa biba byambaye amakanzu agiye atandukanye, hagira iyo ushima bakayikugurisha.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezwehoho bwa kijyambere, akaba ari inyubako yo kwa muganga aho itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, aho umuganda ari gupima umwana w'umukobwa waje amugana ngo arebe ko nta malariya arwaye.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bahuriye hamwe kwa muganga, mu gikorwa cyo kuvuza abana babo, hakaba hari ababyeyi babiri bagikiye abana ndetse n'umugabo wicaye ku ruhande, umubyeyi umwe ari guhereza muganga ifishi ngo ayisuzume.

Umugore uri ahantu mu nyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, akaba yarambitse ibikoresho bye ku gitanda, bigaragaza ko yari arwaye none akaba yakize ategereje ko abaganga baza bakamusezerera.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe biganjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo ndetse n'abashinzwe umutekano, bikaba ari mu gihe cy'icyorezo, aho hari umuganga uri kugenda apima umuntu ngo arebe ko nta we urwaye kovide cumi n'icyenda.

Abantu benshi bateraniye hamwe, bicaye mu nyubako nziza cyane iteye amarangi y'umweru, aho higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, imbere yabo hari umugabo uri kubakoresha inama bamukurikiye.

Abajyanama b'ubuzima bahuriye hamwe aho bari mu gikorwa cyo guteza imbere ubuzima, bakaba bari gukoma mu mashyi bishimye, kugira ngo barebe ko bagira morale, bahuriye ku ivuriro aho imbere hari umuntu uri kubafotora.

Ababyeyi benshi cyane bahuriye hamwe mu nyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi aho umubyeyi yagiye gukingiza umwana we, imbere hakaba hicaye umugabo uri kugenda abafasha muri icyo gikorwa.